Uburezi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu aho umwana mutoya asigaye amenya ubwenge bakamujyana mu ishuri, inyubako nini irimo umwana wambaye impuzankano ari kwandika ku kibaho inyuguti.

Muze dukunde ishuri kuko ishuri rifite akamaro rituma umwana akura neza akazibeshaho mu gihe kizaza. Ishuri rinini cyane ririmo abanyeshuri bambaye impuzankano y'ubururu bari kureba ku kibaho bari kwiga imibare.

Kugira ngo umwana yige neza atuje kandi yishimye, akenera ibikoresho bizamufasha kugirango afate amasomo neza. Ameza manini arambitseho igikapu cyo kubikamo amakayi kugira ngo uyageze ku ishuri ameze neza.

Mu buryo bwo gutuma ubwenge bw'umwana bwiyongera, habamo n'uburyo bwo gukoresha ibishushanyo kugira ngo asobanukirwe neza ikintu icyo aricyo. Inyubako irimo abanyeshuri bambaye impuzankano bari kureba ibishushanyo biriho abana.

Ubworozi bw'amatungo magufi bukomeje guteza imbere abana ndetse n'abakuru mu Gihugu cyacu. Ubutaka bunini cyane burimo ikibuti k'inkwavu gasagaje amabati y'umweru, abana babiri bafite urukwavu bambaye umutuku n'ubururu.

Kugira ngo turinde ibikoresho byacu bibungabungwe uko bikwiye, dukenera ibikapu byo kubibikamo, igikapu gifite amabara agiye atandukanye ay'umutuku n'ay'ubururu ndetse n'icyatsi kirimo amakaye.

Uburezi bukomeje gutera intambwe mu mugihugu cyacu, aho abana basigaye bagira ibikoresho byimyidagaduro kugira ngo ubwonko bwabo buruhuke, inyubako nini cyane ifite amarangi y'umuhondo ifite ibikinisho byabana biri hanze.

Kugira ngo umwana akure neza akenera ibikinisho bimwe na bimwe, bimufasha kuruhuka mu bwonko agatekereza neza akishima agakora neza. Ikibaho kinini cyane gishushanyijeho imodoka: iz'umuhondo, iz'umutuku ndetse n'iz'ubururu.

Kugira ubuzima bwacu bugende neza dukenera n'imyidagaduro, tukishima, tukoga, tugakina kugira ngo imibiri yacu imere neza. Ubutaka bunini cyane burimo amazi menshi, harimo umwana uri koga n'abandi bari ku byicungo.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu Gihugu cyacu aho buri mwana wese asigaye azi gusoma no kwandika, inyubako nini cyane irimo abanyeshuri bambaye impuzankano y'ubururu n'umweru, umwe ahagaze imbere abereka inyajwi n'ingombajwi abandi bose bamukurikiye.

Uburezi bukomeje guhabwa agaciro mu Gihugu cyacu. Ikibuga kinini cyubatswemo inyubako nyinshi cyane z'abanyeshuri hariho ibishushanyo by'abanyeshuri bibafasha gusobanukirwa byinshi cyane n'abarezi bashushanyijeho ndetse n'ibice bigize umuntu.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu Gihugu cyacu, inyubako nini cyane irimo abanyeshuri bambaye impuzankano y'ubururu harimo n'ibishushanyo bifashisha kugira ngo basobanukirwe neza amasomo.

Uburezi bukomeje guhabwa agaciro mu Gihugu cyacu, ubutaka bunini cyane burimo umuhanda mugari, ubusitani bwiza cyane n'amazu ameze neza cyane, abanyeshuri bambaye impuzankano umweru n'ubururu barimo bakina.

Kugira ngo ubuzima bw'umwana bugende neza bukenera ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye, nk'ibikinisho kugira ngo ubwonko bwe bukore neza, kubona ikiruhuko gihagije akaryama agasinzira uko bikwiye, kugira ngo ubuzima bwe bikomeze bigende neza.

Abana bakenera imyidagaduro kugira ngo ubwonko bwabo bumere neza, bishime ubuzima bwabo bugende neza, inyubako irimo ibyicungo abana bakina n'ibiti bikibakikije bibaha umwuka mwiza mugihe bishimye, ubuzima bukamera neza.

Dukomeze dutange uburenganzira ku bana bacu kugira bakure neza bishimye kandi bafite ubwenge, ubutaka bunini cyane buriho abana bishimye cyane, barimo bakina kugirango bamere neza kandi ni ngombwa ko twese tubigira ibyacu, abana tukabibakorera.

Duharanire kugira ibikoresho bituma turwanya igihe habaye inkongi y'umuriro aho twiga. Inyubako yubatse mu butaka bunini cyane hariho inzu iri gushya ifite amabara y'umuhondo yubakishije amatafari ahiye.

Abana bakenera imyidagaduro igihe bari ku ishuri kugira ngo ubwonko bwabo bukomeze bukore neza kandi banaruhuke. Ikibuga kinini cyane, kirimo abana bambaye impuzankano y'ubururu, bari kumwe n'umurezi wabo bakina.

Kugira ngo umwana akure neza akenera imyitozo ihagije yo kwidagadura, kurya indyo ihagije kugira ngo ubuzima bwe bugende neza. Ubutaka buriho ubwicungo by'abana bari gukina kugira ngo bishime bambaye impuzankano bose.

Ubutaka bunini cyane burimo inyubako ndende ifite amarangi y'umweru n'amabati y'ubururu, ifite ubusitani bwiza cyane n'ibiti birebire biduha umwuka duhumeka bigatuma ubuzima bwacu bugenda neza kandi tukabaho twishimye.

Kugira ngo amasomo afatike neza dukenera imfashanyigisho zidufasha gusobanukirwa neza ibyo mwarimu yatwigishije. Ameza manini ariho imfashanyigisho zigiye zitandukanye iz'ubururu n'iz'umutuku n'iz'umuhondo ndetse n'umukara.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu aho umwana asigaye avuka yamenya ubwenge agahita bamutangiza ishuri. Ikibuga kinini cyane kirimo abanyeshuri bambaye impuzankano bishimye cyane, banezerewe bari kumwe n'umurezi wabo abaririmbira.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu Gihugu cyacu aho abarezi bakomeje gutanga ubumenyi bwinshi cyane. Ubutaka bunini cyane burimo inyubako y'abanyeshuri, ubusitani bwiza cyane harimo indabo z'umutuku n'iz'ubururu ndetse n'iz'icyatsi.

Kugira ngo uburezi bukomeze bugende neza kandi umwana asobanukirwe neza ikintu icyo aricyo ari kwiga, dukenera imfashanyigisho zihagije zinyuze nko mu bishushanyo kugira ngo dusobanukirwe neza. Inyubako ishushanyijeho igitoki n'igishyimbo.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu Gihugu cyacu aho inyubako nyinshi cyane ziba zubatswe zateganyirijwe abanyeshuri. Ni ubutaka bunini buriho ibishushanyo abana bigiraho iyo bari kwiga n'inyubako z'abaturage ziri ku mpande zayo.

Abana bakenera ibikinisho kugira ngo babeho bishimye kandi kwishima k'umwana bituma akura neza kandi afite amahoro, inyubako nini cyane, irimo udukinisho tw'umwana, utw'umutuku n'utw'ubururu ndetse n'utw'umuhondo twicaye.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu, aho umwana mutoya cyane asigaye azi indimi zitandukanye, azi gusoma no kwandika. Ishuri rinini cyane ririmo abana bari kumwe n'umurezi wabo, bambaye impuzankano y'umweru n'umukara.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu, aho umwana mutoya asigaye azi gusoma no kwandika kandi bakamenya n'indimi zigiye zitandukanye. Inyubako nini cyane irimo abana bambaye impuzankano y'ubururu n'umukara bicaye bafite amakayi.

Uburezi bukomeje guteza imbere mu Gihugu cyacu aho buri mwana wese asigaye avuka yamenya ubwenge bakamujyana ku ishuri. Inyubako nini cyane irimo abanyeshuri bambaye impuzankano n'umurezi wabo arimo amwereka uburyo bandika imibare.

Ikoranabuhanga rikomeje gutera imbere mu Gihugu cyacu, inyubako nziza yubatswe mu buryo bwiza cyane harimo ameza manini, intebe zo kwicaraho z'abanyeshuri, bituma bafata ubumenyi uko bikwiye kandi mu buryo butabavunye.

Muze twese dukunde isuku kuko bifite akamaro kanini cyane, yaba aho dutuye cyangwa aho twiga cyangwa dukora. Inyubako nini cyane irimo abana bari gukora amasuku, bakoropa ndetse boza n'ibikoresho banyweramo.

Ubutaka bunini cyane burimo inyubako nyinshi cyane bufite n'ubusitani bwinshi cyane harimo indabo ngufiya ni ndende izo nyubako zikikijwe n'ibiti birebire biduha umwuka duhumeka ubuzima bwacu bigatuma bugenda neza.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu Gihugu cyacu kugira ngo umwana yige neza kandi afite ubwonko bwo gutekereza akenera no kuruhuka akabona ibikinisho bituma atekereza neza. Ikibuga kirimo ibikinisho by'umwana gisa n'umuhondo n'umutuku ndetse n'ubururu.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu, aho umunyeshuri asigaye asobanukiwe indimi zigiye zitandukanye. Ubutaka bunini cyane burimo ikigo cy'amashuri, hariho abanyeshuri bambaye impuzankano ndetse bari kumwe n'abarezi babo.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu ariko kugira ngo umwana afate neza, akenera imfashanyigisho zigiye zitandukanye nk'udukinisho ndetse n'ibindi. Ikibaho kiri hasi kirambitseho inyuguti, ibikoresho abana bakinisha iyo biga.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu kandi tubiha n'agaciro kenshi cyane. Abanyeshuri bambaye impuzankano, bari kumwe n'umuyobozi wabo bidagadura, bari mu busitani bwiza cyane, bufite indabo z'umuhondo n'iz'icyatsi.

Uburezi bukomeje guhabwa agaciro mu mu gihugu cyacu, aho abanyeshuri basigaye babubakira inyubako nziza cyane, ubutaka bunini burimo inyubako igeretse kabiri, ifite amarangi yi'cyatsi n'amabati y'ubururu n'ikibuga kinini cyane abana bakiniraho.

Muze twese dukunde kwiga kuko kwiga bidufitiye akamaro gakomeye cyane, umwana wese asigaye azi gusoma no kwandika bitewe n'umurezi mwiza. Ubu ikibaya kinini cyane kirimo umuhanda mugari, kirimo n'amashuri ndetse n'abanyeshuri benshi cyane n'ibiti birikikije.

Kugira ngo umwana agire ubuhanga buhanitse bumeze neza agomba kuba afite n'imfashanyigisho zihagije zimufasha mu gihe ari mu masomo ye. Igitabo kinini cyane kirambitse ku mukeka harimo n'amakereyo ay'umutuku n'ay'ubururu ndetse n'ay'umuhondo amufasha mu kwiga.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu, ikibuga kinini cyane kirimo abanyeshuri bambaye impuzankano bari kumwe n'abarezi babo babaha amabwiriza agenga umunyeshuri, bafite inyubako nziza cyane ifite amabara y'umuhondo n'inzugi z'ubururu.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu Gihugu cyacu. Inyubako nini cyane irimo abanyeshuri bambaye impuzankano y'umweru n'umukara imbere hahagaze umurezi ari kubasobanurira amasomo buri wese ari kuvuga icyo yumva.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu, aho buri mwana wese asigaye avuka yamenya ubwenge agahita ajya mu ishuri, gutangira kumenyerezwa iby'amasomo. lnyubako nini cyane yateganyirijwemo kwigiramo abana bakiri batoya, ifite amarangi y'umuhondo.

Uburezi bukomeje guhabwa agaciro mu Gihugu cyacu, aho amashuri akomeje kuba menshi cyane kugira ngo borohereze urugendo rw'abana bajya kwiga, ubutaka bunini cyane bwubatsemo inyubako nziza cyane y'abanyeshuri, ifite amarange y'umuhondo.

Kugira ngo tubeho neza tubanye mu mahoro tugomba gukenera ibiganiro bigiye bitandukanye bidufasha kungurana ibitekerezo. Ubutaka bunini cyane buriho abahinzi bicaye baganira bavuga neza uburyo ubuhinzi bugomba kwiyongera kandi tubigizemo uruhare.

Uburezi bukomeje guhabwa agaciro kuko bari gukomeza kutwongerera ibikoresho dukenera iyo twiga. Inyubako nini cyane irimo imfashanyigisho zigiye zitandukanye: utumodoka, utugare, udukinisho tudufasha gusobanukirwa neza ibijyanye n'amasomo.

Muze twese dukunde kwiga kuko bidufitiye akamaro tumenya byinshi bitandukanye nko gusoma ikinyarwanda, kwandika imibare, ndetse n'ibindi. Ikibaho kinini cyane cyanditswemo amagambo menshi cyane imibare ndetse n'amasaha.

Kugira ngo tugire ubumenyi buhagije dukenera imfashanyigisho zigiye zitandukanye, zidufasha kugenda dusobanukirwa byinshi twiga. Ameza manini cyane arambitseho ibikoresho bigiye bitandukanye, iby'ubururu, iby'icyatsi, iby'umutuku ndetse n'umuhondo.

Inyubako nini cyane yubatswe mu buryo bwiza cyane mu matafari ikomeye cyane, isize irangi ry'umukara harimo ibikoresho by'imfashanyigisho bigiye bitandukanye ndetse n'ibyo kurya mu gihe umuntu aruhutse, ikibaho cy'umukara cyo kwandikaho.

Kugira ubuzima bwacu bugendade neza dukenera imyidagaduro, tugakenera kugorora umubiri wacu kugira ngo amaraso atembere neza kandi tugire n'ubuzima bwiza. Inyubako irimo ibikoresho byinshi cyane twifashisha kugira ngo tugorore umubiri wacu, imipira y'amaguru ndetse n'utundi dukinisho.

Uburezi bukomeje kwiyongera mu Gihugu cyacu aho amashuri bakomeje kuyagura isuku ikaba yose. Inyubako nini cyane iri mu kibuga kinini ifite ibiti birebire bitanga umwuka igihe abanyeshuri bakina.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu, aho abana batoya basigaye bazi gusoma no kwandika. Ikibuga kinini cyane kirimo inyubako y'abanyeshuri ifite amarangi y'umutuku n'inzugi z'umuhondo, ibikapu by'abana birambitse ku ntebe.

Dukenera ibiganiro by'abadukuriye kugira ngo batubwire iby'ahazaza ndetse n'ahashize kugira ngo tugire ubwenge. Inyubako nini cyane irimo abasaza n'abakecuru n'abana bateze amatwi bumva impanuro z'umusaza n'umukecuru.

Mu gihe habonetse indwara y'ubuzima bwacu tugomba guharanira kuyirinda kugira ngo tutayikwirakwiza mu batayifite. Ubutaka bunini cyane buriho banyeshuri bambaye impuzankano, bambaye udupfukanwa, impuzankano y'ubururu n'umukara.

Uburezi bukomeje guhabwa agaciro aho umunyeshuri ategurirwa imfashanyigisho imufasha kumenya byinshi byimbitse, igitabo kinini kirambitse ku meza kiriho amabara y'ubururu, n'ay'umutuku n'umweru n'abana bambaye impuzankano.

Twese duhatire abana gukunda ishuri kuko rifite akamaro, rituma akura akabaho neza kandi akibeshaho bitewe n'amashuri yize. Inyubako nini cyane yubatswe mu butaka bunini, yateganyirijwe abanyeshuri, ifite amabara y'ubururu ndetse n'ay'umweru.

Uburezi bukomeje kugira agaciro mu gihugu cyacu, ubutaka bunini cyane bwubatsemo amashuri n'abanyeshuri bari kumwe n'umurezi wabo, bakina kugira ngo babashe gukomeza kwiga baruhutse mu mutwe.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu Gihugu cyacu tubifashijwemo n'abayobozi, inyubako yubatswe mu buryo bwiza cyane iriho ikibaho cy'umukara n'umwarimu uri gutegura amasomo azaha abanyeshuri be.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu mu gihugu cyacu. Ubutaka bunini burimo inyubako y'abanyeshuri n'abanyeshuri bambaye impuzankano bari kumwe n'umurezi wabo, ubusitani bwiza cyane burimo indabo ziconze neza kandi harimo n'umurezi.

Uburezi ni bwiza cyane kubabugana ariko kugira ngo tumenye ko uburezi buri kugenda butera imbere, tugomba gukoresha isuzumabumenyi kugira ngo turebe uko umunyeshuri ahagaze, noneho ubone uburyo twakongera ibyo atasobanukiwe.

Muze dukundishe abana ishuri kuko rifite akamaro rituma bakura neza ari abahanga, yaba mu byo bakora n'akazi kabo kakagenda neza, ubutaka bunini cyane burimo amashuri harimo n'abanyeshuri bambaye impuzankano, bari kumwe n'umurezi wabo.

Twese tugire isuku yaba aho dutuye cyangwa aho twiga, yaba mu kazi kugira ngo tubeho tumeze neza, ubuzima bwacu bugende neza, ubutaka bunini cyane, burimo inyubako ndende ifite amarangi agiye atandukanye, ay'umuhond, ifite ubusitani bwiza.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu, ubutaka bunini cyane burimo amashuri menshi cyane, afite amabara y'umuhondo ndetse n'inzugi zisa n'icyatsi n'amabati y'ubururu, hafite n'ubukarabiro, dukarabe intoki kugira ngo isuku ikomeze imere neza.

Ibikorwa remezo bikomeje kuba byinshi mu gihugu cyacu kandi bimeze neza. Inyubako nini cyane y'abanyeshuri iri mu kibuga kigari ifite umuhanda mugari n'ibiti biwukikije ndetse n'ubusitani bwiza cyane abana baruhukiramo iyo basoje amasomo.

Kugira ngo umwana agere ku ishuri ameze neza kandi ibikoresho bye bitangiritse, akenera ibikoresho byo gutwaramo amakayi ye nk'igikapu kugira ngo bigereyo neza. Ameza manini cyane, arambitseho igikapu cy'umunyeshuri, atwaramo amakayi, gifite amabara y'umweru.

Igihugu cyacu gikomeje gutera imbere kikagira ibikorwa remezo byiza, imihanda myiza, amavuriro meza ndetse n'amashuri meza cyane, ubutaka bunini cyane burimo inyubako nini ifite amarangi meza cyane, ay'umuhondo, ay'umutuku, ifite n'ubusitani.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu, aho buri mwana wese asigaye azi ikoranabuhanga uko bikwiye. Inyubako nini cyane ifite amarangi y'umuhondo yicayeho abanyeshuri bambaye impuzankano, bari kumwe n'umurezi wabo.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu Gihugu cyacu abayobozi bakomeje kudushyigikira kugira ngo ubwnge bwiyongere. Inyubako nini cyane irimo abanyeshuri bari gukora ibizamini bahagarikiwe n'abarezi babo na bo bambaye impuzankano.

Uburezi bukomeje guhabwa agaciro mu mugihugu cyacu, aho buri wese asigaye akura akifuza kumenya indimi zigiye zitandukanye. Inyubako nini cyane irimo abanyeshuri benshi abahungu n'abakobwa, bambaye impuzankano y'umukara n'icyatsi.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu Gihugu cyacu, aho buri muntu wese asigaye yifuza kuba yabaza ibyinshi bitandukanye, inyubako irimo abanyeshuri benshi cyane, bambaye impuzankano y'ubururu ndetse n'umweru n'icyatsi bicaye baganira.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu aho amashuri akomeje kwiyongera, ubutaka bunini burimo amashuri afite amabati y'umweru n'amatafari y'umuhondo, harimo ibiti birebire bitanga umwuka abanyeshuri bakamererwa neza ndetse n'amagare.

Uburezi bukomeje kwiyongera mu gihugu cyacu kandi bunatera imbere, ubutaka bunini cyane buriho abanyeshuri benshi bari guhabwa amabwiriza, bambaye impuzankano y'ubururu, biyogoshesheje umusatsi mukeya, impande yaho hari ibiti birebire bibaha umwuka mwiza.

Uburezi bukomeje guhabwa agaciro mu gihugu cyacu, kugira ngo abana bakure neza ugomba kubitaho ukabagaburira uko bikwiye, inyubako nini cyane irimo abanyeshuri bambaye impuzankano bari kurya ibiryo.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu, ubutaka bunini cyane buriho inyubako y'amashuri n'ibiti bigiye bitandukanye, binini cyane, biduha umwuka duhumeka kugira ngo ubuzima bwacu bugende neza n'amasomo tuyafate neza.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bwiza cyane, ifite amarangi y'umuhondo, irimo imfashanyigisho zigiye zitandukanye, izisa n'umutuku, ubururu, umuhondo n'umweru ndetse n'akabati, kameze neza cyane.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu Gihugu cyacu aho buri mwana wese aba afite ubwenge bwo gusoma no kwandika. Ubutaka bunini cyane buriho abanyeshuri bambaye impuzankano y'ubururu ndetse n'icyatsi n'umweru bari kumwe n'abayobozi babo.

Twese dukundade umurimo kugira ngo tubeho neza kandi mu buryo twifashishije dufite n'amahoro. Ubutaka burimo inyubako nini cyane ifite amarangi y'ubururu yubakishijwe amatafari ahiye, hariho abantu bagiye batandukanya abagabo n'abagore.

Kwiga bikomeje gutera imbere mu gihugu cyacu aho buri wese asigaye yiga agakora n'ubushakashatsi bwimbitse kubyo ari kwiga. Inyubako nini cyane irimo abanyeshuri bari mu myitozo bambaye impuzankano z'ubururu bambaye n'udupfukamunwa tw'umweru.

Ikoranabuhanga rikomeje gutera imbere mu Gihugu cyacu aho buri munyeshuri wese aba afite mudasobwa kugira yongere ubumenyi mu buryo bwimbitse kandi ahabwe n'inyigisho nyinshi cyane. Inyubako irimo umunyeshuri wambaye impuzankano y'ubururu n'umukara ari kuri mudasobwa.

Urugerero ni rwiza ku rubyiruko rufite akamaro kenshi cyane kuko twigiramo byinshi bitandukanye. Ikibuga kinini cyane kirimo abanyeshuri basoje bambaye impuzankano z'icyatsi bakikijwe n'ibiti birebire bibaha umwuka mwiza bahumeka.

Uburezi bukomeje gutera imbere Gihugu cyacu aho buri mwana wese avuka yamara kumenya ubwenge bakamujyana mu ishuri. Ubutaka bunini cyane burimo inyubako nini irimo abanyeshuri bambaye impuzankano y'umweru n'icyatsi n'amasogisi y'umweru bicaye muri sale.

Iterambere rikomeje kwiyongera mu gihugu cyacu ndetse n'ibikorwaremezo bikomeje kuba byinshi cyane, ubutaka bunini cyane buriho kigo cy'amashuri, byubatse mu buryo bwiza cyane, umuhanda mugari n'ibiti birimo byiza cyane.

Uburezi bukomeje guhabwa agaciro mu gihugu cyacu, twese duharanire gukunda ishuri kuko bifite akamaro. Inyubako nini cyane, irimo abarezi bategura ibyo bazaha abanyeshuri n'ikibaho cyanditseho imibare.

Inyubako nini cyane yubatswe mu buryo bukomeye cyane ifite amarangi y'umuhondo n'amatafari y'umuhondo, irimo abagabo bari gukora ubushakashatsi n'ibindi byuma bisa n'umweru.

Ubuyobozi bwacu bukomeje kutabera cyangwa buhishira uri mu cyaha kugira ngo buri wese agire isomo kandi ajye amenya gukora ibikwiriye, ubutaka bunini cyane buriho abantu benshi cyane bambaye imyenda y'umweru n'imikara abandi bambaye umuhondo.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu. Inyubako nini cyane irimo abanyeshuri bambaye impuzankano y'umweru, bambaye n'imipira y'umuhondo, bicaye ku ntebe bafite ibikoresho bibafasha kumenya imibare vuba.

Uburezi bukomeje guhabwa agaciro mu gihugu cyacu, kuko bita ku bana bacu bakazamuka neza bafite ubwenge buhagije. Ubutaka bunini cyane burimo inyubako yubatse neza ,ifite amarangi y'umuhondo ariho n'abarezi bari kugenda.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu, ikibuga kinini cyane kirimo abanyeshuri bambaye impuzankano bari kumwe n'umurezi wabo ababwira amabwiriza agenga umunyeshuri n'inyubako nini cyane isakaje amabati y'ubururu ifite n'inzugi z'ubururu.

Kugira ngo uburezi bukomeze bugende neza, abanyeshuri bakenera ibyo kurya kugira ngo amasomo akomeze agende neza, inyubako nini cyane irimo amasafuriya batekeramo ibiryo by'abanyeshuri n'abakozi bari gukora iziko bazajya batekeraho.

Kwigisha ni uguhozaho kugira ngo dukomeze gusobanukirwa neza iby'ikoranabuhanga kandi n'uburezi bwacu bukomeze butere imbere, inyubako nini cyane irimo abantu bagiye batandukanye, abagabo n'abagore bari kumva ibyiza by'ikoranabuhanga, ni inyubako ifite amarange y'umuhondo.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu, ikibuga kinini cyane kicayeho abana bambaye impuzankano y'ubururu ndetse n'imipira y'imbeho yimituku. Bicaye bari guhabwa amabwiriza agenga umunyeshuri ufite imyitwarire myiza.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu aho umwana wese amara kumenya ubwenge bakamutangiza mu ishuri, ubutaka bunini cyane bwicayemo abanyeshuri yambaye impuzankano y'umweru n'icyatsi ndetse bafite n'imisatsi mikeya ku mitwe.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu Gihugu cyacu, ubutaka bunini cyane bwubatsemo inyubako y'abanyeshuri, ifite amarangi y'umuhondo n'ay'ubururu ndetse n'ibiti bibaha umwuka mwiza bahumeka, bityo amasomo akagenda neza.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu, twese duharanire kumenyereza abana kwiga kuko bifite akamaro. Ubutaka bunini cyane burimo abanyeshuri benshi bagiye batandukanye abahungu n'abakobwa, bambaye impuzankano y'ubururu n'umukara.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu mugi cyacu, inyubako nini cyane irimo abanyeshuri bambaye impuzankano y'ubururu n'umukara, barimo bandika mu makaye yabo banakurikiye umwarimu abigisha kugira ngo ubumenyi bwabo bukomeze bwiyongere.

Isuku igira isoko muze twese duharanire kugira isuku yabo aho dutuye cyangwa aho twiga, ubutaka bunini burimo inyubako y'abanyeshuri, harimo ubusitani bwiza cyane burimo indabo ngufiya, inyubako iteye amarange y'ubururu n'umuhondo.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu muze twese dukunde kwiga kuko bidufitiye akamaro. Ubutaka bunini cyane buriho abanyeshuri benshi cyane bambaye impuzankano zigiye zitandukanye, abambaye ubururu n'umukara, n'abambaye buresiyeri ndetse na kaki.

Twese duharanire kugira isuku kuko ari ingirakamaro yaba aho dukora cyangwa aho twiga yaba aho dutuye. Ubutaka bunini cyane burimo inyubako yubatswe mu buryo bwiza cyane, ifite amarangi y'umweru, ubusitani burimo indabo nziza cyane.

Kugirango umwana afate neza akenera imfashanyigisho nyinshi cyane zigiye zitandukanye ishuri rinini cyane ryubatswe mu buryo bukomeye cyane bufite ikibaho cy'umweru abanyeshuri biteguye kukigiraho kugira ngo ubumenyi buze vuba.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu gihugu, ikibuga kinini cyane kirimo abanyeshuri bagiye batandukanye, abakobwa bambaye impuzankano, bafite imisatsi myiza cyane bari kureba muri mudasobwa, impande yabo hari inyubako nini cyane.

Uburezi bukomeje gutera intambwe ndende cyane mu gihugu cyacu kandi buhabwa n'agaciro gakomeye cyane. Inyubako nziza cyane irimo abantu bagiye batandukanye, bafite amakayi n'amakaramu bandika, isakaje amabati y'umweru.

Ibumba rifite akamaro muri rusange kuko ridufasha mu bikorwa byinshi cyane, nko kubumbamo ibikoresho bigiye bitandukanye, ibikoresho duteramo indabo ndetse n'ibyo dukoresha mu rugo kandi ibumba kurinywa rifite akamaro mu mubiri wacu.

Ikoranabuhanga rikomeje gutera imbere mu Gihugu cyacu, yaba aho dutuye, yaba aho dukora, ubutaka burimo inyubako nini cyane irimo mudasobwa nyinshi n'abantu bagiye batandukanye abagabo n'abagore bari kureba iby'ikoranabuhanga.

Iterambere rikomeje kwiyongera mu gihugu cyacu, aho hamaze kubamo inyubako nziza nyinshi cyane, inyubako ifite amarange atandukanye ay'umuhondo ndetse n'ay'umweru, ifite n'inzugi z'icyatsi.

Ibidukikije bidufitiye akamaro kuko bidukururira ba mukerarugendo baje kureba ubwiza bw'ibiti bitatse u Rwanda n'imigezi, inyubako nini cyane iriho igishushanyo cyerekana umugezi munini ndetse n'ibiti birebire.

Isuku ni nziza mu gihugu cyacu kuko iyo ugize isuku ugira ubuzima bwiza. Ubutaka bunini cyane burimo indabo nyinshi cyane ziri mu busitani, ibiti birebire biduha umwuka duhumeka bigatuma umubiri wacu umera neza yaba mu kazi turimo cyangwa aho dutuye.

Igihugu cyacu gikomeje gutera imbere kuko kigize amazu menshi meza yubatse mu buryo bukomeye cyane, inyubako nini cyane yubatswe n'amatafari akomeye, ifite amarange agiye atandukanye, ay'umutuku, ay'icyatsi ndetse n'inzugi z'umweru.

Muze dukunde kwihangira imirimo dukora imirimo y'amaboko kuko bituma tubaho neza dufite ubuzima bwiza ndetse tukagira n'iterambere mu buzima bwacu n'igihugu nacyo kikabona iterambere, bigatuma abanyarwanda bagira ubuzima bwiza.

Muze twese tugire isuku kuko ari ingenzi aho tuba cyangwa aho twiga. Inyubako irimo ibikoresho bigiye bitandukanye bakoresha bari gutera amarange, ameza, indobo y'icyatsi n'ibindi bikoresho byinshi.

Muze twese twihangire umurimo dukora ibikoresho by'imirimo y'amaboko tubumba ibikoresho bigiye bitandukanye kugira ngo tugire iterambere ryinshi kandi vuba, ubutaka burimo imbabura zibumbye mu ibumba ndetse n'ibindi bikoresho byo guteramo indabo.

Isuku igira isoko muze twese tuyikunde kuko ifite akamaro, ubutaka bunini cyane burimo amatafari ahiye, inyubako nini cyane isiswe amarangi y'ubururu ndetse n'ay'umukara ifite n'amadirishya y'umweru.

Kwiga bikomeje gutera imbere mu gihugu cyacu, aho buri wese asigaye azi indimi zitandukanye, inyubako nini cyane irimo umunyeshuri urangije, arimo avuga ibyiza byo kwiga, yambaye imyenda y'umukara n'iy'umuhondo n'agapfukamunwa gasa n'ubururu.

Iterambere rikomeje kwiyongera mu Gihugu cyacu, aho tugiramo inyubako ziba zubatswe mu buryo bwiza cyane, ubutaka bwubatsemo inzu igeretse kabiri ifite amarange y'umweru ndetse n'amabati y'umutuku, hahagazeho umuntu wambaye umukara.

Twese duharanire kugira isuku kuko isuku ni nziza cyane ituma tubaho neza kandi dutuje, ubusitani bunini cyane burimo ibiti bigiye bitandukanye n'indabo, iz'umuhondo n'iz'icyatsi hariho n'ikibuga kigari abantu banyuramo iyo bagiye mu busitani.

Iterambere rikomeje kwiyongera mu Gihugu cyacu nk'amazu meza, imihanda ndetse n'ubusitani bwiza cyane, ubutaka bunini burimo inyubako nziza cyane, iriho abantu bagiye batandukanye bambaye imyenda itandukanye iy'umuhondo n'iy'ubururu.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu Gihugu cyacu, aho buri wese asigaye aharanira gusoza akanaminuza kugira ngo abone impamyabushobozi imezeze neza, ikibuga kinini cyane kirimo abantu benshi basoje amashuri yabo bambaye imyenda y'umukara.

Twese dukunde kwiga kuko kwiga ni byiza biduhesha ishema mu bandi kandi nk'umwana tuba duhesha ishema umubyeyi. Ubutaka bunini cyane bwubatse neza buriho abantu bishimye cyane basoje kwiga, abambaye imyenda y'umutuku, n'iy'icyatsi, n'iy'umukara.

Twese duharanire kugira isuku kuko ari ingirakamaro yaba aho tuba cyangwa aho dutuye kuko bidufitiye akamaro muri rusange. Ubutaka bunini cyane buriho inyubako nziza cyane yubatswe mu matafari akomeye, ifite amarangi y'ubururu harimo n'indobo batamo imyanda.

Inyubako nini cyane irimo abantu bagiye batandukanye abagabo, n'abagore, abambaye imyenda y'umutuku n'icyatsi bicaye bateze amatwi bari kumva impanuro y'ibintu byinshi bigiye bitandukanye.

Kwiga ni byiza cyane kuko iyo wize uba umuntu ukomeye ndetse ukabona n'akazi keza. Ikibuga kinini cyane kirimo abantu bambaye imyenda y'umukara n'iy'umuhondo, bishimye cyane kubera basoje amashuri yabo.

Inyubako nini cyane irimo abantu bagiye batandukanye, abagabo n'abagore bambaye imyenda y'umukara n'udupfukamunwa tw'bururu umugabo umwe ahagaze abaha amabwiriza mu nyubako nini cyane ifite amarangi y'umweru.

Ubutaka bunini cyane buriho inyubako ifite amarangi agiye atandukanye, amarangi y'icyatsi, ay'umweru, abantu bahagazeho bari kuganira n'indabo z'umuhondo n'iz'umutuku, umuryango ufunguye winjira muri salo.

Isuku igira isoko yaba aho dutuye cyangwa aho dukora cyangwa aho dufatira amasomo, inyubako nini cyane iri mu butaka bunini ifite ubusitani bwiza cyane bufite isuku, harimo indabo z'umuhondo n'iz'icyatsi ndetse n'umuhanda mugari.

Mu Gihugu cyacu cy'u Rwanda iterambere rikomeje kwiyongera, nko mu inyubako nziza cyane zisigaye zirimo, zubagakikijwe amatafari akomeye cyane, zisiswe n'amarangi meza cyane, inyubako ifite inzugi zisa n'icyatsi n'irange ry'umweru.

Twese twihangire umurimo kuko ari byiza bituma tubaho neza kandi twibeshejeho, inyubako nini cyane irimo abantu bagiye batandukanye, abambaye imikara n'abambaye umweru bicaye ku ntebe z'icyatsi bari guhugurana, ku bintu bigiye bitandukanye.

Inyubako nini cyane yubatswe mu buryo bwiza cyane ifite amarangi y'umuhondo n'ay'ubururu ndetse n'ay'umukara harimo abantu benshi bagiye batandukanye abagabo n'abagore, bambaye umweru n'abambaye umukara.

Isuku igira isoko, muze twese tuyikunde, yaba aho tuba cyangwa aho turara cyangwa aho dukora kuko idufitiye akamaro mu buzima bwacu. Inyubako nziza cyane irimo indabo zimeze neza, iz'umweru, agatebo k'umukara ndetse ifite n'amarangi y'umweru.

Iterambere rikomeje kwiyongera mu gihugu cyacu aho hamaze kugaragaramo inyubako nyinshi cyane zigiye zitandukanye kandi zubatswe neza, inyubako nini cyane yubakishijwe amatafari ahiye, iteye amarangi y'umweru, ifite na sima y'umutuku.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu Gihugu cyacu aho buri mwana wese asigaye azi gusoma no kwandika kandi azi ikoranabuhanga mu buryo bukwiye. Inyubako nini cyane irimo abanyeshuri bambaye imyenda igiye itandukanye iy'umuhondo n'iy'umutuku bateze amatwi umurezi.

Muze twese twihangire imirimo dukora imirimo y'amaboko tubumba ibikoresho bigiye bitandukanye bizadufasha kubona amafaranga rimwe na rimwe tukanabikoresha mu rugo. Inyubako irimo ibumba nyinshi cyane tubumbamo ibikoresho bigiye bitandukanye.

Muze twese tugire isuku yaba aho dutuye cyangwa aho dukora cyangwa aho twiga kuko bidufitiye akamaro kanini cyane. Ubutaka bunini cyane burimo ubusitani bwiza cyane harimo indabo ngufiya ndetse n'indende ikikijwe n'inyubako ifite amarangi y'umweru isakaje amabati y'umutuku.